Abagore b'abahinzi, bakaba barahinze icyayi, bakaba arimo barasarura icyayi bashyira mu rutete cyangwa udutero baheka mu mugongo.

Aborozi bakaba boroye amatungo, bakaba boroye inka bita inyambo, izi nka zikaba zirimo zironsa imitavu yazo.